Si byiza ko dutererana abafite ubumuga, ahubwo tugomba kubegera tukabafasha buri kimwe cyose kubera ko hari ingingo baba badafite nyamara twebwe tukizifite zose.

Igihe cyose habaye ngombwa ko haba ubutabazi bw'ibanze, umuntu utabawe agomba gushyikirizwa ahantu hashashe neza kandi hari umutuzo kugira ngo ubwo buzima bwe bukomeze kuba buzima.

Ni byiza ko ikintu cyose kigiye gukorwa gikorwa mu mucyo habanje kwicara abayobozi bakakiganiraho bamara kukiganiraho bagafata imyanzuro y'uburyo kizakemuka bakabona kugisangiza n'abandi.

Umurwayi ukigezwa kwa muganga arembye iyo basanze nta kintu baribumufashe bashobora kumuha ambiransi ikamujyana ku bindi bitaro byisumbuyeho ibyo kugira ngo bakurikirane ubuzima bwe akiri muzima umwuka utaramushiramo.

Iyo ugeze kwa muganga ubona ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga ariko udafite ubumenyi muri byo si byiza ko ubikinisha kubera ko ushobora kwangiza ibintu byinshi.

Igihe cyose abantu bagiye gutera imiti bagomba kwipfuka mu maso, bakambara uturindantoki kubera yuko iyi miti ishobora kukwinjira mu zuru cyangwa mu mubiri ikakwangiza.

Umukozi wenyine wambaye impuzankano yo ku bitaro, niwe wenyine ufite uburenganzira bwo gusuzuma umurwayi ndetse n'undi ubifitiye uburenganzira bizwi neza muri ako gace.

Utudege dutoya twagaragaye ko ari two dufite ubushobozi bwo kwihutana amaraso buyajyana ku bindi bitaro kugira ngo bayahe umurwayi uyakeneye cyane kuko bakundaga gupfa bazize y'uko yatinze kubageraho.

Kwa muganga hagomba kuba hari udutebe twiza, dusukuye ndetse n'ibitanda bimeze neza, byiteguye kuba byakakira umurwayi uje utunguranye, bakamufasha mu buryo bwihuse.

Muganga agomba kuba afite igitabo yandikamo ndetse n'ikaramu n'akandi gakoresho gapima umutima w'umurwayi igihe ageze mu cyumba ari bukoreremo.

Niba ugiye mu mahugurwa runaka aba ari buvugirwemo ibintu by'ingenzi ugomba gutega amatwi, ugakurikira umuyobozi kuko icyo aba yabahamagariye kiba gifite agaciro kandi aba yagitekerejeho neza.

Abaganga bagomba kujya bategura inama zitandukanye, zibahuza n'abaturage kugira ngo babagire inama mu bijyanye n'ubuzima bwiza, n'uburyo bakwirinda indwara kugira ngo ntibahore kwa muganga.

Mbere y'uko umuganga ahamagara umurwayi ngo yinjire mu cyumba avurirwamo, agomba kureba neza ko ibikoresho byose yabyegeranranije, birimo ibyoribuze kwifashisha avura uwo murwayi.

Nyuma yuko babonye ko ubutabazi bwihuse ari ugukoresha utudege tugenda mu kirere tudafite abapilote, Leta y'u Rwanda yabishyizemo imbaraga kugira ngo tujye tugeza amaraso ku bitaro kandi ku gihe.

Umuriro w'amashanyarazi uteza akaga nubwo ari mwiza, ku rundi ruhande ushobora guteza inkongi y'umuriro hakaba hapfiramo abantu benshi igihe utabikontoroye neza kandi ngo ubihe umurongo.

Niba abantu bakoze neza bagomba guhabwa ikigaragaza ko bakoze neza ari yo seritifika, bakaba babishimirwa ibyo bakoze igihe kirekire kandi bakanahembwa.

Ni byiza ko abayobozi bafata amafoto bari hamwe kubera ko iki kiba ari igikorwa cyiza, niba akazi kawe wagakoze neza ukakarangiza, ni byiza kwishimisha, ugafata n'ifoto y'urwibutso.

Kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu byakozwe mu gihugu hose ndetse n'uyu mwaka byakozwe mu gihugu hose kubera y'uko abaturage bashishikarijwe kwirinda amacakubiri ndetse no gupfobya kugira ngo igihugu cyacu kirusheho kuba cyiza.

Ni byiza ko kwa muganga hajya hashakwa umunsi rimwe na rimwe hakozwa ibikoresho byose bikoreshwa kwa muganga, kubera y'uko biba bimaze igihe kinini bikoreshwa ariko bidakorerwa isuku nk'uko bikwiriye.

Ni byiza ko igihe abantu bagiye guhabwa serivisi zo kwa muganga bagomba kwitabwaho kubera y'uko iyo ugeze kwa muganga hari abo usanga barembye cyane nyamara ntibite kuri abo barembye cyane.

Mbere yuko umuganga abaga umurwayi, agomba kugira umufasha kuko buri kimwe akeneye siko yajya kukizanira, agasiga umurwayi ahubwo agomba kugira umufasha akagumya amuhereza ibyo akeneye byose.

Buri umuntu wese ushyizwe mu nshingano ari mushya agomba kubirahirira akavuga imigabo n'imigambi azabagezaho kandi icyo gihango yakirengaho akaba azahanwa nkuko bisanzwe bizwi.

Kwiga burya ni byiza cyane cyane kwigira mu matsinda kubera ko uvumburamo ibintu byinshi utari uzi iyo wasangije ibitekerezo byawe mugenzi wawe ndetse na we akagusangiza ibye.

Iyo muganga agiye gukura amenyo umurwayi abanza kumutera ikinya kugira ngo uwo murwayi ataza kuribwa cyane ariko ubikoze ntakinya ntushobora kumukura kuko wamukura atera induru.

Ibintu byose tubonye muri laboratwari si byiza kubicokoza cyane cyane tutazi icyo bikora kuko hari biba byakanwangiriza ubuzima bwacu nyamara tutabizi, byiza ko tubyirinda.

Iyo muganga amaze kumenya ibimenyetso by'indwara ufite, akagufata ikizamini cy'amaraso, abishyira mu twuma twabugenewe agapima, hanyuma akareba indwara waba urwaye.

Mbere yuko muganga aha umurwayi imiti agomba kuyikurikirana neza, akamenya uburyo umurwayi azayikoresha byaba byiza n'umurwayi agasobanurirwa neza uburyo azayikoreshamo.

Iyo umuganga agiye mu cyumba cyagenewe gusuzumirwamo ibimenyetso by'umurwayi, agomba kugenda yambaye agapfukamunwa ndetse yanipfutse ahantu hose kuko hari igihe umurwayi yaba afite icyorezo gishya.

Gukoresha mikorosikopi, si ibya buri wese utarabyigiye kubera ko ushobora kuyihabwa ukaba utayikoresha icyo ugomba gukora kubera ko nta bumenyi uyifiteho.

igihe umurwayi afashwe amaraso nta handi ajyanwa usibye kuyasuzuma ngo bayarebe niba haba harimo indwara zitandukanye, bityo bakamenya imiti batanga kuri uwo murwayi.

Muri laboratwari usanga ariho hakorerwa ubushakashatsi bwose bw'ibanze ku bigendanye n'indwara z'inzaduka ndetse n'ibindi bintu bisa n'ibidasobanutse, akaba ariho bakorera ubushakashatsi, bakavumbura ibirenze kuri ibyo.

Burya abazungu n'abanyafurika nta tandukaniro bagira cyane, ahubwo usanga twarabagize ibitangaza tukumva ko ari abantu bari hejuru yacu, kandi natwe dufite ubushobozi nk'ubwa,

Abayobozi bakuru bashinzwe ibijyandanye n'ubuzima igihe barangije umwiherero bagomba gufata amafoto y'urwibutso kugira ngo azabibutse icyo gikorwa bakoze nk'abantu b'abagabo.

Umubyeyi iyo amaze kubyara ashimishwa n'umwana we cyane kubera ko aba yaramuvunikiye igihe kirekire kumutwita amezi icyenda nyuma akaza kumubyara bimutera akanyamuneza.

Ni byiza ko ababyeyi bajyana abana babo kwa muganga bagahabwa za vitaminini zose zateganjwe ndetse n'inkingo zose zagenewe umwana kuva akivuka kugeza akuze.

Umwana muto iyo yitaweho agakurikiranwa neza mu myigire ntashobora gutsindwa ariko iyo ababyeyi batitaye ku myigire y'uwo mwana, ashobora gutsindwa ndetse n'ishuri ntazaryige ngo arisoze.

Leta y'u Rwanda idushishikariza gukoresha ibihingwa ndetse n'ibyo kurya byongera imbaraga mu mubiri kubera ko badushishikariza na gahunda ya ongera intungamubiri, ni ukuvuga ngo kurya indyo yuzuye.

Leta y'u Rwanda imaze kubona ko ikibazo cyo kugwingira gikomeje kwiyongera yashyizeho uburyo bwiza bwo kugaburira abana batoya indyo yuzuye bityo icyo kibazo kikaba gitangiye gukendera burundu.

Gukorera hamwe kw'abaganga, bishobora gutuma bagera kuri byinshi. Kubera ko basangiza ibitekerezo ku giti cyabo ndetse bakabisangiza n'abandi, kugira ngo ubuganga bugere kuri bose kandi neza.

Niba umuntu afashe ijambo arimo aratubwira ku kintu runaka, si byiza ko tumuvugiramo kubera yuko ntawe bitababaza kuba yafashe ijambo hanyuma hakagira abamuvugiramo, ibyo ari gutambutsa ntibyumvikane.

Ibitaro byose aho biva bikagera bigomba kuba bifite aho bita ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubuzima bw'umwana atwite kugira ngo uwo mwana azavuke ameze neza.

Niwumva Leta y'u Rwanda igushishikariza guha umwana wawe indyo yuzuye, ntukagire ngo ibyo ni iby'abakire gusa burya kubera yuko ituma umwana akura neza mu buryo bw'ubwenge ndetse n'igihagararo.

Mbere yuko abantu bananirwa cyane mu mutwe bikabatera umunaniro, si byiza ko babyihererana ahubwo bagomba gukoresha urubuga isuzume umenye urugero rw'umuhangayiko wawe, unyuze ku rubuga rwahawe kandi ruzwi neza kugira ngo umenye uko wirinda.

Iyo abaturage bahinze bikera bagomba gukoresha umunsi mukuru ubundi bakishimira ibyo bagezeho bakicara bakaganira bagasangira ndetse bakanizihirwa.

Ni byiza ko buri muturage wese agomba kugira indangururamajwi ye cyane cyane nko kuba afite radiyo kubera yuko bituma hari amakuru menshi amenya yaranze Igihugu uwo munsi.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kwita ku buzima bwo mu mutwe, igihe cyose tubonye umuntu ufite ibyo bimenyetso, tugomba guhamagara umurongo utishyurwa, ari wo icumi makumyabiri na kane.

Abanyarwanda dushima yuko bateye indi ntambwe iremereye mu kumenya ko uburinganire n'ubwuzuzanye ari ingenzi mu miryango, kubera y'uko wasangaga hari abakandamiza abandi mu rugo n'ahandi hatandukanye mu kazi.

Ikigo gishinzwe gutanga ubuzima bwiza cyane cyane ibigendanye n'ubwo mu mutwe gishishikariza buri muntu wese ubonye umurwayi ufite ibyo bimenyetso ko yamwegereza icyo kigo cyangwa ibitaro bimwegereye.

Abantu iyo bitabiriye inama runaka baba bakurikiye uri kubagezaho iyo nama, ariko nanone abafite amakaramu n'amakayi bakandika ni bo bagira ikintu gikomeye batahana.

Ni byiza ko igihe twagiye mu mahugurwa cyangwa izindi nama zitandukanye tugomba kwitonda tugakurikira ibyo tubwirwa kandi nyuma yo kubibwirwa tukaba aba mbere mu gutanga ibitekerezo byakubaka.

Niba ufite farumasi, ugomba kubigaragaza hari ibyapa ubyandikaho kugira ngo umuntu wese abimenye mu buryo bumworoheye, atarinze kubaririza aho iherereye.

Buri vuriro rigomba kugaragaza ibyo rivura bibikurikiranyije ku rutonde, ndetse rikanagaragaza ubwishingizi bwose bukoreshwa, bukaba bukorana n'iryo vuriro kugira ngo ubufite azajye arigana.

Ni kenshi uzagera muri farumasi ugasanga imiti yaho iba ipanze ku mu nta kajagari ushobora kuhasanga, kubera ko bamenye ibanga ryo kubika imiti neza kuko aribyo biyongerera uburambe.

Farumasi iyo imaze gutera imbere, iba rimo imiti yose y'ubwoko bwose bushoboka kubera yuko ushobora kuhashaka umuti waburiye kwa muganga, ukaba wabona muri iyo farumasi.

Abaturage bashimishwa cyane no kubona ko begerejwe serivisi z'ubuvuzi harimo nko kuba bakegerezwa farumasi kubera yuko biborohereza gukora ingendo ndende bajya kwivuza kwa muganga hanyuma bakabona iyo serivisi biboroheye.

Iyo hari igikorwa runaka kiribube umuntu agomba gutegura ifoto akayishyiraho abaribuyobore icyo gikorwa ndetse agashyiraho n'insanganyamatsiko n'isaha kiribubere n'ahantu kiribubere.

Ku itariki makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa Gatandatu buri mwaka, u Rwanda rwizihiza umunsi wo kurwanya ibiyobyabwenge ku rubyiruko ndetse n'abandi bantu bose kubera ko ibi ngibi bikorwa buri mwaka.

Urubyiruko rukunda imyidagaduro bakunda kujya ahantu habereye ibitaramo, harimo nk'abahanzi baje kwamamaza igikorwa runaka cyane cyane hakaza imbaga nyamwinshi kugira ngo bihere ijisho.

Niba urubyiruko tunaniwe no kwifata tugomba kwiga gukoresha udukingirizo kubera yuko uwakoresheje agakingirizo ntashobora kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Mbere yuko umuyobozi atanga serivisi runaka ikenewe n'abantu benshi, agomba kubanza kubaganiriza akababwira ibyo serivisi agiye kubaha, bityo bagafata ibintu bazi neza kandi basobanukiwe.

Urubyiruko rukunze kwiroha mu bikorwa by'ubusambanyi kandi bagakora iyo imibonano mpuzabitsina itanakingiye ariko dushishikarizwa gukoresha udukingirizo kubera ko ari yo ntambwe nziza yo kuba twakwirinda igihe kwifata byatunaniye.

Ni byiza ko abantu bagaragarizwa ahantu, isaha n'itariki ndetse n'aho igikorwa kiribunyuzwe, kugira ngo baze kwimenyera ayo makuru, bitabagoye igihe bateguye insanganyamatsiko runaka.

Umuntu igihe amaze kurya biba byiza iyo yongeye ku mafunguro ye imbuto zigiye zitandukanye kubera ko ibi bimufasha kuba umubiri we wakora neza cyane cyane amaze gufungura.

Iyo umuganga adafite ibikoresho byabugenewe birimo nkako ashyira ku mutima w'umurwayi ngo yumve uko atera, ntashobora kwirirwa ajya kuvura uwo murwayi kuko nta bikoresho bihagije afite.

Uko bisa kose iyo abantu bahuriye mu itsinda runaka bagakora akazi kabo neza nta cyatuma batishimira ibyo bagezeho kubera ko buri wese ashimishwa no gutera intambwe ijya imbere.

Ibimera gakondo wasangaga abaturarwanda ba kera ari byo bashyiragamo imbaraga kubera y'uko iterambere ryari ritaraza ryo kugana amavuriro ahubwo bari bafite uburyo bwiza babikoreshamo kugira ngo bivure bo ubwabo.

Abantu ba kera bakundaga gukoresha imiti gakondo n'imiravumba bakayifashisha mu buryo bwo kwirinda indwara y'inkorora kubera ko iyo wayikoreshaga inkorora yagendaga nka Nyomberi.

Nubwo imiti gakondo itagikunze kugaragara kenshi ariko ntibivuze ko itagikoreshwa n'Abanyarwanda kubera ko hari abagifite imyumvire yo kutajya kwa muganga ahubwo akaba ari yo bakoresha bivuza.

Imiti gakondo yahozeho kera ndetse n'ubu iracyariho nubwo itangiye gucika henshi ariko ku bayigize imbarutso yo kuba bayivurisha n'ubu baracyayikoresha.

Iyo abaturage bagize amahirwe bakegerezwa serivisi z'ubuvuzi na bo ntibashobora gukora ikosa ryo kurembera mu rugo kubera y'uko bamaze kumenya ko iyo umuntu arembeye mu rugo bishobora kumukururira urupfu.

Iyo ugezehe hano ukabona ifoto nini ishushanyijeho amatungo, nta kindi utekereza nuko aho hantu hashobora kuba hakorerwa ubworozi bw'amatungo, bityo ukamenya uko uri buhitware.

Buri gace kagomba kuba gafite ikigo gishishikariza abaturage kugira ubuzima kandi kubibashishikariza ntibirangirire mu magambo gusa, ahubwo bakanakurikirana niba koko ibyo bababwira bishyirwa mu bikorwa.

Biba byiza ko mbere y'uko umuganga avura umurwayi agomba kumubaza uburyo yafashwemo akamuha ibimenyetso byose kugira ngo aribyo aza gushingiraho avura uwo murwayi kuko utavura indwara utamenye ibimenyetso.

Igihe abashinzwe gushishikariza abaturage kugira ubuzima bwiza basoje amahugurwa, bagomba no gufata amafoto y'urwibutso agaragaza ko ayo mahugurwa yagenze neza.

Ni kenshi ababyeyi bashishikarizwa kujyana abana ku kigo nderabuzima cyangwa kwa muganga kugira ngo bakurikiranwe cyane cyane muri ya minsi igihumbi y'umwana kugira ngo ubuzima bwe butangire bugende neza.

Mu Rwanda bakunze kudushishikariza gutanga mituweli kubera yuko n'iyo urebye inyuma hayo iba yanditseho ngo iyi karita uyifite ntarembera mu rugo bityo rero tuge twihutira ku kigo nderabuzima hakiri kare.